Inzu zo z'ucuruzi, zicururizwamo ibyo kurya, ibyo kunywa, abantu bakaza bakahahurira, bakisanzura, bagaseka, bakishimana, ndetse bagakomeza kubaho neza.

Amazu y'ubucuruzi bacuruzaho imyenda y'ubwoko butandukanye, hari n' imipira, n'amasharupe, n'amakanzu. hariho n'abana bari kugura. Bacuruzaho n'inkweto za bote.

Inzu y'ubucuruzi izwi ku izina ryitwa kantine, hateretswemo utudobo turimo imikati itandukanye ikomoka ku ifarini imbada, amandazi, ndetse na biswi.

Amazu meza y'ubucuruzi bigaragara ko acururizwamo ibiribwa, byo kunywa ndetse n'ibyokurya. Amazu y'umweru afite n'amakositara meza, abacuruzi bicaye ku muryango bategereje abakiriya.

Amazu y'ubucuruzi, aho bacururiza amayinite. Hari n'aho bacururiza ibikoresho bya elegitoronike, ndetse n'abacuruza ibiribwa. Iyo dufite ibyo dukeneye, tujya kugura aha ngaha, kuko ariho tubisanga.

Ibyapa biri kugaragaza ahantu n'ibihakorerwa. Kimwe kiri kugaragaza u Rwanda uko rwubatse. Ikindi kiri kugaragaza umushinga witwa Hinga wunguke, ukorera mu Karere ka Musanze.

Amazu y'ubucuruzi bacuruza ibikoresho bitandukanye birimo imyenda, amasafuriya, indobo, imbabura, amabase, ndetse bacururiza n'ibiribwa harimo umuceri, akawunga, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ni amazu y'ubucuruzi acururizwamo imiti y'amatungo harimo, imiti y'inka, imiti y'ingurube, hakabamo n'imbuto ari zo karoti, amashu n'ibitunguru. Kandi hariho umuntu ucuruza muri ayo mazu, hari n'abana bari kuhakinira.

Hoteri yakira abantu baje kurya n'abaje kunywa n'abaje kuhifotoreza, bakaharuhukira kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, kandi bakomeza gusabana n'inshuti zabo.

Umuhanda wubaki amatafari ahiye, impande y'uwo muhanda hari ibiti bitandukanye, kandi uwo muhanda uja mu rugo, ku rugo ruriho igipangu cyiza cyane, ndetse urabona ko ari urugo rwiza.

Isoko ririmo imyenda n'inkweto, harimo abantu bari gucuruza ndetse n'abari kugura imyenda ndetse n'inkweto, bigaragara ko nta bakiriya benshi barimo ariko mu abacuruzi bo bahageze.

urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko, baje guhaha ibiribwa bitandukanye. Harimo imboga, harimo imiteja, sereri, ibitunguru, kokombure, harimo n'abantu benshi batandukanye. Harimo n'abagabo n'abagore n'abana.

Ahantu bacururiza imyenda, imyenda iratanditswe bigaragara ko iri gucuruzwa. Ndetse n'umucuruzi ahagaze impande y'imyenda ye.

Isoko rinini cyane ririmo urujya n'uruza rw'abantu batandukanye. Bari kuza guhaha ibiri muri iryo soko. Harimo imboga n'imbuto. Muri izo mbuto harimo wotameloni, imyembe, amaronji n'amavoka.